Isahani iriho salade zitandukanye: inyanya ,ibitunguru n'ibindi byinshi, hagati harimo ifi yokeje ,biteretse kumeza ,ku mpande hari amabara y'icyatsi ntazi ayo ari yo.

Iduka ry'inzoga zivangavanze, za mitsingi, za pirimusi n'ibyuma. Harimo n'utundi tuntu hasi tw'amaji na novida. Hari icyapa cya Rwanda reveni kirimo muri etajeri.

Inyama zisa nabi, zirambitse mu bishashi, bya bindi bafungamo tekawe, zimwe ziri ku mishito, hari ubwatsi bwa Pasiparumu, hirya hari abantu bari kurenguka, batari kugaragara neza.

Ahantu hateretse fanta z'ubwoko butandukanye ,zo mu macupa ya pulasitike .Ku ruhande hari izindi zo mu makopo hirya ,hari ikibambasi gisa na kaki.

Akabari kari ahantu gafite indabo n'ubusitani butari bwakura, harimo intebe za mitsingi zifite ibara ry'umutuku ndetse iyo nzu itatseho icyapa cya mitsingi. Hepfo yayo hari izindi nzu zitari kugaragara neza.

Ibitoki biri ku isahani y'umweru bitetse amaganda, byahiye neza birisatura biteguye bidatonoye.

Akabari gafite amabara y'ubururu n'ibyapa bya pirimusi. Hirya yaho hari ibindi bizu bitari kugaragara neza n'intoke. Hari abantu babiri bahagaze ku muhanda, bafashe impapuro mu ntoki. N'undi wicaye ku muryango w'ako kabari. Hari ibirabyo bifite amabara y'umuhondo.

Inzoga z'amoko yose， ziteretse muri etajeri， harimo n'ibirahuri byubitse， iruhande rwayo，hari firigo ngufi y'umukara， ahantu mu gasare hameze nko muri contware.

Igipangu gisize amarangi y’umuhondo, babikamo amakaro yo gucuruza. Ku muhanda ni kaburimbo, hakurya n’ikirere cy’ubururu n’umweru, hari n’amapoto ahahagaze.

Inzu y'ubucuruzi ifite amabara y'umweru, hejuru ni amakaro ,hirya yayo hari indi itaruzura hariho n'ibyapa byanditseho Kinigi n'ipoto iri kugaragara igice cyo hasi, ni ku muhanda wa kaburimbo ariko ku ruhande hashashe amapave n'umuntu uri ku igare mbere y'iyo nzu.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari imodoka y'abakerarugendo na yayindi bigishirizaho, n'umunyonzi uri kugenda . Hari indi modoka iri guhinguka hirya, iri kugaragaza ipine rimwe.

Inzu imeze nka kenkeyori bafitemo indobo y'ubururu n' agatebe gafiteho ibara ry' umweru, umuryango ni icyatsi hahagaze umugabo wambaye ijingisi n' umupira wa kake, imbere yaho hari amakaro ya kake.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibyapa hejuru. Ku muryango hari abantu bahahagaze, hari n'imodoka ziparitse imwe y'umweru iteye ikibuno hirya yayo hari ikamyo yindi idafite cya kindi cy'inyuma iri kugaragaza ikizuru. Hejuru hari ikirere cyijimye cy'ubururu n'umweru.

Ndi kubona ifoto iriho abantu babiri bahagaze, undi arunamye, undiri hirya y'icyapa, hari n'imodoka iri kureba aho bari, n'inzu ya etaje iri hirya ku muhanda wa kaburimbo, aho bari gukorera amagare hari amapave.

Inzu z'ubucuruzi ebyiri, imwe ku kumuryango hateretse imifuka y'amakara, hari abantu babiri bahagaze imbere y'amagare, rimwe ry'ubururu, irindi ry'umutuku, hirya hari inzu ifite ibara ry'umuhondo, ifite inkingi nazo z'umuhondo. Hari n'agati kari kureguka hejuru yazo.

Abantu bicaye ku muhanda bari gucuruza ibigori mu mifuka, bipakiye nyuma yabo hari inzu z'ubucuruzi zisize amarangi y'umuhondo, n'indi imwe isize umweru hari n'umutaka wa emutiyene muri iryo soko.

Inzu y' ubucuruzi iriho icapa cy' amabara menshi, cyanditseho Nzayisenga shopu, ifite hasi imiryango myinshi n' abantu bicaye, hari n' igare rihaparitse. Yubakishijwe amakaro y' umweru.

Iduka rifite amabara y'ubururu, ku muryango no ku nkingi, hejuru byubakishije amakaro, mu mbuga ni amabuye ashashemo, akozwe nk'amapave. ku mpande hari ibindi bintu bahacururiza, hari n'umuntu wambaye ishati y'umutuku, n'undi wicaye ku ntebe yo kwegamira.

Umuhanda wa kaburimbo unyuzemo umurongo uhuye n'uni w'amapave. Hirya hari inzu yubatse uburyo bwa konoshi, hejuru hari ipoto y'amashanyarazi n'insinga zayo, n'igiti kirekire. Ku ruhande hahinze pasiparume iteyemo ururabo n'umurima kuruhande.

Ibikosi bya parasitike bipfunditse ku tuntu, harimo iby'umutuku n'ibya ruje borudo n'ubururu, n'icyatsi. Hirya hari ikintu kimeze nk'ibibase biterekeranyije, ni mu nzu y'amakaro ashaje.

Inzu z'ubucuruzi eshatu ,zifite amabara gatandukanye, bahacururiza imyenda n'ibikoresho byo mu nzu, harimo n'amabasi. Zubakishijwe amakaro, hejuru imwe niyo isize ibara ry'ubururu.

Igipangu kirimo inzu nini y'amatafari ahiye, hejuru ni amabati y'umutuku n'ibirahuri byayo ni umukara. Ku ruhande hari iyindi nzu y'umweru iriho akantu k'umutuku gafite icyapa cy'ubucuruzi. Imbere hahagaze abagore babiri.

Umuntu ufite igare ripakiye ibisheke arahagaze, hamwe n'umugore uteze igitambaro wambaye bodaboda z'umuhondo, hirya hari moto iri kugenda, hari n'ibiti bitari kugaragara hejuru bifite ibishyitsi gusa.

Icyapa cya situdiyo cyanditsweho n'inyuguti z'umweru, kiriho n'amafoto by'abantu bamwe bari kumwe, abandi bicaye umwe umwe gifitemo ibara ry'ubururu na move, cyanditseho gifuti stidiyo.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibintu bitanditse n'ibyapa, hari umuntu wambaye umupira w'umutuku n'uwambaye itaburiya y'umweru, n'akameza gateretse hanze hejuru yubakishijwe amakaro.

Ahantu hari icyapa cyanditseho Faraja hoteli gishushanyijeho inzoga ya henikeni. Hari amapave ashasheho n'ibiti birebire hari inzu iri kureguka imeze nk'ifite amadirishya ya etaje.

Inzu bacururizamo ibiryo yanditseho kimarazara resitora, ishushanyijeho umuntu hejuru isize amarangi y'umuhondo, ifite n'umuryango w'icyatsi kibisi iriho n'uturabyo n'irido.

Kiyosiki ebyiri z'ubucuruzi, imwe ifite ibara ry'icyatsi, iyindi iragaragaza amabati y'umweru, inyuma ya ho hahinze urutoke, imbere hateretse intebe iriho bafure ku muhanda w'amapave, hakurya hari ikirere cy'ubururu n'umweru.

Hano hagaragaza ko bahakorera amacumbi, handitse kayitare gesiti hawuze. Harimo igitanda gishashe neza n'ibindi bintu bitatse aho hantu, n'icupa rya shampanye.

Urupangu rukingishije urugi rw'ibyuma hariho iseliri. imbere harimo imodoka ebyiri ziparitse imwe iri kugaragaza igice kimwe hakurya hari igikuta wagira ngo n'igikontineri cy'icyatsi n'umweru.

Iduka ry'imyenda y'abagore, ku mpande ndi kubona urutsinga ruzinze rw'umutuku, biri mu nzu y'amabati ifite igisenge cy'ibyuma.

Inzu ifite imiryango ibiri, n'idirishya, ryanditseho inyuguti z'umukara, isize irangi ry'muhondo, nicyatsi kibisi hejuru yayo hari igiti, ndetse no ku kumuryango hari agapoto hirya hari ishyamba.

Igicucu cy'umuntu gikoze kuri za puberi zigerekeranye, hirya ku mutwe we hari ikarito iriho icyapa cy'umuhondo, hari n'ibyuma birunze harimo ibimeze nk'amatiyo.

Iduka rifite ibintu byinshi, harimo ibiryo n'ibikoresho byo mu nzu, n'imyenda, n'udusume two bihanaguza harimo etajeri y' imbaho n'inkoni ziteretse imbere y'ibiryo.

Inzu y'ubucuruzi, ifite imiryango itatu, hejuru ifite akabaraza, imbere yaho ku mapave haparitse moto imwe, iyindi iriho umuntu, n'umunyegare ufite ibintu ahetse, ni ku muhanda wa kaburimbo.

Ndabona kenkayori rarimiyere bacuruza amarange go mu ndobo no mu mavido, ngabona undi mundu ari gutambuka ariko atagiye muri iyo kenkayori.

Kiyosiki yubakishije metalike iriho ibyapa bya papeteri na nomero za terefone. Isakajwe amabati asanzwe hariho n'itara ry'ampure isanzwe hariho n'akagufuri n'isereri.

Iduka ry'imyenda n'inkweto ku muryango bahateretse amasitati abiri hejuru risize ibara ry'umuhondo hariho n'ibirahure.

Inzu ya etage ifite ibirahuri by'ubururu impande yayo hari amikusi imodoka y'mweru iparitse munsi hakuno hari indabyo zifite amabara atandukanye nabantu bari kugenda mumuhanda.

Inzu yubucuruzi itanditseho ibitenge by'amabara atandukanye, yubakishije amakaro n'inkingi y'imbere, hasi ni sima isanzwe, ifite umuryango w'icyatsi iri ku muhanda.

Ahantu bacururiza amazi ya Jibu, hasi hashashe ibiti by'imbaho, hirya yabyo hari udukarito turi kureguka, hino ni mu isima isanzwe.

Icyapa cy'amacumbi kiri ku gipangu, cy'ibyuyuma imbere yaho hari inzu y'amabati y'umukara isize irangi ry'umuhondo, hasi na ho hasize irangi ry'umuhondo imbere y'icyo cyapa.

Ahantu ho bacururiza inyama, hateretse indobo ifite umufuniko w'umutuku, n'ijerekani n'indobo ngufi y'umweru, n'intebe iri guhinguka ku ruhande. Iyo nzu ni amakaro, ifite amadirishya n'inzugi by'umweru, hejuru hari icyapa cyanditsweho ''turengera ubuzima''.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro hejuru n'inkingi, ifite imiryango itatu, hagati hari ibyapa bya Airtel, ku mpande y'imiryango y'ubururu, imbere yaho haparitse moto, hari n'udutebe tuhateretse.

Inzu y'ubucuruzi ku muhanda wa kaburimbo :hashashe amapave ku ruhande ,hari n'ibitunguru byanitse mo imbere harimo umufuka w'amakara n'akameza kariho amashu n'inyanya, hari n'ipine ry'igare riri kugaragara n'intebe y'igare .Iyo nzu ifite amadirishya abiri ,ifite n'amakaro ni yo ayubatse.

Inzu bakoreramo, iriho ibyapa bigaragaza ko bakorera abagabo n'abagore, hariho umuryango w'ubururu ufite amarido ari kugaragara.

Insinga z'umuriro zishaje zirambitse kumapave hejuru, hari izindi zizinze zitari zakora n'amakabule ku ruhande hari akazu ka emutiyene gakinguye hirya ni ku gikuta cy'amabuye aconze.

Inzu y'amabati agezweho, ifite iruhande rwaho imirabyo y'imikindo, no hino hari indi nzu itari kugaragara n'insinga z'amashanyarazi, hakurya yaho hari ikirere cyiza gifite ubururu n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro hejuru ifite inkingi z'icyatsi, hariho n'ibyapa byanditseho, ku muhanda hari abantu bari kugenda bamwe bazamuka abandi bamanuka.

Inzu bacururizaho ibintu byose imyenda ya matela hari umutaka rwa emutiyeni ku ruhande mbere yaho hicaye abagabo ku gasima ,bari kureba mu muhanda hejuru. Yubakishijwe amakaro inyuma hari igitari cy'inusi ndende.

Ahantu haparitse imodoka, imbere yinzu ifite imiryango imezeze nk'ubucuruzi, hejuru yubakishije amakaro, hariho n'icyapa cy'ubucuruzi. Inyuma yayo hari ipoto, kuruhande hari umutaka wa eyateli, n'umuntu uhagaze, umeze nk'umukanishi.

Iduka ry'ubucuruzi rifite imiryango y'icyatsi, hejuru hari icyapa, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'ikoboyi. Mo imbere hari umugabo wambaye imyenda y'umweru, uri gukoramo, hanze hakozwe n'amapave.

Inzu zubakishijwe amakaro hejuru, zifite inkingi z'ubururu, n'iz'umuhondo, n'izindi zigiye kuba umutuku. Imiryango ni icyatsi n'ubururu. Imbere kuri kaburimbo hashashe amapave. Hari umuntu uhahagaze, hari n'icyapa cyegetse ku muryango.

Inzu z'ubucuruzi ziri kureba mu cyerekezo kimwe. Zifite amabara atatu. Imwe yubakishijwe amakaro, indi amabara y'umuhondo, indi y'icyatsi. Hejuru hari icyapa cy'ubucuruzi. Imbere yazo bari kuhubaka ,ni muri borodire.

Ibyapa bibiri kimwe cyanditseho Rwanda gishushanyijeho na Afurika mu ibendera ry'u Rwanda ku ruhande hari ikindi cy'icyatsi cyanditseho hinga wunguke hasi hari umuntu ugaragaza umutwe w'umumotari hirya hari kaburimbo itari kugaragara neza.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro, ifite amabara y'icyatsi. Hejuru hari icyapa gishushanyijeho Nsabi, ngo ni kenkayori. Hasi hari indobo z'amarangi no ku ruhande hari utundi turi kurebuka.

Ahantu hari akazu ka beka yacu na ekwiiti, hariho na nomero za terefone. Gasize ibara ry'umuhondo imbere yako hari akantu kandiditseho dukora fone, n'ikigega kuruhande ni hantu hari igitaka cy'umukara.

Urupangu ruzitijwe ibyuma, hariho icyapa cyanditseho zamura. Imbere hari abantu bafite imifuka bari gupakiramo ibyatsi, ahantu iruhande rwabo hamenye garaviye.

Inzu ifite ibara ry'umutuku rya eyateli yanditseho inyuguti z'umweru, imbere yaho hari kunyura abagore bafashe utuntu mu ntoki, ni ahantu mu mucanga icyo kizu hasi ni isima isanzwe.

Ahantu bacururiza ibyuma by'amagare, hari kandagira ukarabe y'ubururu isanzwe, ndetse n'inzu ishaje hamanitsemo n'imyenda mu madirishya na konteri y'amashanyarazi.

Ahantu hari ishyamba rimeze neza, hari n’indabo nziza zifite utubara tw’umuhondo, n’icyapa cyanditseho La Parume Hoteli. Hari n’uduti tureture tw’indabo zimeze nk’ umukindo.

Iduka bacururizamo amatelefone harimo n'icapa cya samusungi imbere, ni inzu y'amakaro imbere ni amapave, hariho ibyapa by'ubururu n'umuhondo n'icyatsi, harimo umuntu uhagazemo imbere.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kigaragaza ko bahatunganyiriza amafoto, iyo nzu irakinze, abantu bari kugenda birebera mu birarahuri, ni batatu bari ku muhanda. Mu ndorerwamo yayo harimo amapave bigaragara ko ari ku muhanda w'amapave, hari na jaride. Iyo nzu ifite ibaraza rya rangete

Abantu biganjemo abagore bapfukamye bari gusenga, bambaye iniforume z'amashati, n'amakanzu, n'ibitambaro, ahantu bari hameze nkaho ari tapi y'umucaca, hari n'umugabo upfukamye imbere yabo aberekeye.

Inzu yakoreragamo banki y'abaturage, ku muryango hicaye abantu, abandi barahagaze isize ibara ry'umuhondo, n' urugi rwayo rwa metalike rusa n'igikuta, hejuru haricyapa cya banki popirere buranche ya Musanze.

Ahantu ho gukarabira harimo ikintu bogeramo, hino hari igitanda kiri kugaragaza umutwe wo hepfo, hari idirishya rifite amarido ya rumbiya.

Inzu ya etaje, iriho ibirabyo by'ubwoko butandukanye, imbere yaho haparitse imodoka ebyiri, n'abantu basa n'abari gukora amasuku, inyuma yabo hari umusumari, wa wundi batereka mu muhanda, habaye ikibazo.

Iduka ririmo ibintu byinshi cyane; amavuta, harimo n’ibintu bitandukanye by’amabara menshi. Abantu batatu bahagaze bari kugura, ndetse umwe yifashe amanyankenya.

Inzu y'itaje， ifite ibirahuri byijimye， ku ruhande hari ibigega n'ibirabyo bikuze. Hari n'umuntu wambaye ingofero n'umupira w'umutuku, n'ipota y'amashanyarazi, biri kugaragara hirya.

Ahantu hacururiza amasanduku yo guhambamo . Hasi hateretse ikarito , hari n'utu etajeri tw'ibyuma , ako hejuru gasize ibara rya move n'umweru.

Isoko ry'imboga harimo karoti, intoryi, dodo n'izindi zitandukanye. Hari umuntu wambaye umupira w'umutuku uhagaze hagati kuri shitingi bishashweho.

Ibitoki biteretse hasi, hari n'ibimanyuye hirya yaho hari umufuka wagira ngo urimo amakara, n'uwundi utarimo ibintu, ahantu biri ni ahantu hadapavomye neza.

Ahantu bari gucururiza amatisi y'ubwoko bwinshi n'amabara atandukanye, hateretseho n'imashini yo kudoda, hari igiti gitambitseho imigozi bashyiraho ibyo bintu.

Amabase arunze mu yandi ateretse hasi. Ayo y' imbere harimo amabara atandukanye. Hari ay'icyatsi, hari nay'umutuku. Hirya hari umuntu uri kugaragaza urutugu, n'ugutwi, n'umutwe igice kimwe.

Shufreri ziri mu ibase hari kugaragara enye ziteretse ku isima. Mu mpande hari ahantu hijimye, kurundi ruhande hari akantu kari guhinguka kameze nka shitingi.

Ahantu bacururiza indagara n'imifuka yo gupfunyikamo, hari umugore witandiye wambaye amarinete, n'umugabo wicaye ku igare imbere y'iduka, rifite urugi rw'umweru.

Mu iduka harimo saladine eshatu na korogate eshatu n'agakarito ka karikiratirise. Munsi hateretse icupa ry'amavuta.

Isoko ry'ibiribwa harimo n'imbuto z'ibinyomoro n'amaronji n'imineke, harimo umukobwa uri kurira umuneke mu isoko umugore ahagaze hejuru afashe kuri shitingi isakaye, n'umugabo uhagazemo uri kureba imbere hari intebe ya pulastike n'ibindi hirya.

Akajerekani ka ji kanditseho Salama kari mu ikarito, hirya yako hari akandi kari guhinguka k'umuhondo kariho n'icyapa, na ko kari mu ikarito. Byose biteretse muri etajeri z'imbaho zisize ibara ry'umweru.

Ahantu bari gucururiza ibikoresho byo mu rugo. Harimo amabase afite amabara atandukanye icyo gisima hasi gisize ibara rya shokora hirya ibara ry'umuhondo. Ndi mu isoko, urabona ko ripavomwe na sima.

Inzu y'ubucuruzi igaragaza umuryango umwe, hari agakiyosike ka emutiyene n'abantu bahagaze, n'ameza, n'intebe ,wagira ngo biri gucuruzwa, aho bahagaze ntabwo hakoze neza, hari amabuye menshi n'ibisima bishaje.

Isoko rishakakajwe amabati yubakishijwe mu mpande, amabati y'ubururu hari abantu b'abakarani bambaye amataburiya y'ubururu, hari ibintu byinshi bitanditse bivangavanze hari abantu benshi bari guturuka iyo hirya.

Imikubuzo irunze hamwe ihambirije imigozi y'umukara. Hino yayo hari ikintu kimeze nk'urutare rw'amakoro, hirya hari utuntu tuharambitse dufite mu ibara ry'ubururu.

Amajerekani y'amavuta apakiye mu mifuka ibiri, umutuku n'uw'icyatsi hasi hashashe amapave hasa n'ahari umwanda, hirya hari igishitingi kiri guhembuka n'ibigega.